Ubuhinzi bw'icyayi, icyayi ni igihingwa ngengabukungu u Rwanda rwohereza mu mahanga bityo natwe tukabasha kubona amadovize, tukayakoresha twiteza imbere mu bindi bikorwa bitandukanye, harimo nko: kubaka amashuri, kubaka imihanda, amavuriro ndetse no gufasha abatishoboye mu Gihugu cyacu.

Umuti w'amatungo ndetse n'ibinini by'amatungo, tujye duha amatungo yacu ibinini kugira ngo tubirinde guhura n'indwara z'ibyorezo, ndetse ibi binini bizifasha kongera umusaruro, urugero nk'inkoko zikabasha gutera amagi menshi.

Mu Rwanda igice kinini cyaho ni ubutaka buhingwa aho abaturage benshi batunzwe n'umusaruro uturuka ku buhinzi bahinga rero imyaka itandukanye, ibishyimbo, ibijumba, amateke, imyumbati ndetse n'ibindi, bityo bakabasha kubijyana ku isoko bakabona agafaranga gatuma bagera ku bindi bikorwa bifuza.

Abaturage benshi mu Rwanda batunzwe no guhinga ni abahinzi bahinga imyaka igiye itandukanye, ibishyimbo, inkori, soya, bityo iyo byeze babasha kubijyana ku isoko maze bakabona agafaranga bikabafasha kugera no ku zindi ntego bashaka kugeraho binyuze mu buhinzi.

Umusozi ubona ko ugaragaza ubutaka bukwiye guhingwa buri gupfa ubusa, rero tujye dukoresha ubutaka uko bikwiye tububyaze umusaruro bityo natwe dukomeze kwiteza imbere twihaza mu biribwa bituruka ku buhinzi.

Umudamu uri kuhira imyaka ye kubera izuba ryacanye kandi imvura ikaba itagwa ,yifashishije umupira w'amazi acomeka kuri robine maze akabasha kuhira imyaka ye neza ikabasha gukura, tujye twita ku bihingwa byacu kugira ngo bibashe kuduha umusaruro.

Ubutaka bwo guhingwa, ubona burimo imyaka myiza ishishe, kubera imvura yaguye neza, hashobora no kuhahinga amashyamba, bigaragara yuko ari ubutaka bushobora kwihanganira imvura ndetse n'izuba.

Mu rwanda dufite imisozi myiza iri ahantu haterereye ishobora guhingwaho imyaka itandukanye, ibijumba, amashaza, imyumbati ndetse n'ibindi, maze tukabona umusaruro tuwukuye ku buhinzi tukajyana mu isoko tukabasha kubona amafaranga twifashisha dukora ibindi bikorwa bidufasha kwiteza imbere.

Imbuto y'ibishyimbo yatunganyijwe neza ituzanira umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo tukabasha kubona ibiribwa bihaza umuryango wacu, tukabaho tudataka inzara ndetse tugasagurira n'amasoko, tukabasha kubona amafaranga adufasha kwiteza imbere binyuze mu bindi bikorwa bitandukanye.